Abantu bahagaze ku ivomero rusange, harimo abana bato n'umuntu mukuru uri kubafasha kuzamura amazi y'umugezi kugira ngo babashe kuvoma, hateretse amajerekani menshi ari ku murongo.

Abana bato bari ku ivomero rusange, bahagaze bafite utujerekani dutoya hari umuntu mukuru urimo kubafasha kuzamura amazi ava mu butaka azamuka hejuru bakoresheje ipombo.

Ku ivomero rusange hahagaze abantu batanu, bafite amajerekani atonze umurongo, ategereje kuvomerwa amazi meza.

Abantu bicaye ahatangirwa ingingo, bamwe muri bo, ni abaganga, undi aricaye barimo kumutera urukingo ku kuboko, bose bambaye udupfukamunwa.

Umwana w'umusore uri ku ivomero ari gukaraba intoki, yambaye agashati k'icyatsi n'ikabutura, iruhande rwe hari indobo y'ubururu.

Ku ivomero rusange, umwana ari kuvoma amazi akoresheje ijerekani y'umuhondo, imbere ye hateretse izindi, na zo zitegereje kuvomerwa.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri mu kigo, bafite ibikombe bahagaze imbere y'utugega duto tuyungurura amazi tukayagira meza ashobora kunyobwa.

Umubyeyi uteruye umwana muto, ari kumusoma. Umubyeyi yambaye agapfukamunwa, yambaye agapira karimo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru.

Abagore batatu bahuriye ku ivomero rusange ry'amazi y'iriba, amwe azamurwa n'icyuma babanza gupompa, babiri barimo barafatanya kuzamura amazi undi arimo aravomera mu ndobo.

Abantu bahagaze bari kwifotoza, bamwe bafite impapuro mu ntoki, bahagaze ku kigo nderabuzima gisize amabara y'ubururu.

Agasenge gato kubabakishije ibiti, kari mu rugo rurimo insina, gateretseho ibikoresho bakoresha mu nzu nk'ibikombe, amasorori ndetse n'amasahani.

Icyumba babagiramo kwa muganga, umurwayi aryamye ku gitanda, abaganga babaga bahagaze bamuzengurutse, bose bambaye amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa ndetse n'ingofero.

Ku kigo nderabuzima cya Mayange abaganga n'abaforomo bahakorera bishimiye kwakira abashyitsi babasuye, muri abo bashyitsi harimo umuzungu uhagaze imbere yabo.

Abantu baje ku ivomero rusange harimo umubyeyi mukuru n'abana; barimo baravoma amazi y'isoko bakoresheje ipombo, mu buryo bwo kuyazamura.

Umuhanzi nyarwanda Mbonyi Isirael, yicaye afashe akana yagashyize ku munzani upima ibiro, ari kukareba aseka.

Ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku buzima, ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita cyane cyane mu kumenya ibijyanye n'ubuzima mu bihugu bitandukanye ku isi hose.

Abantu bahuriye mu cyumba cy'inama bicaye ku meza bamwe hakurya abandi hakuno, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange y'ibirahure.

Abantu batatu bari ku ivomero rusange, babiri bahagaze barimo bavomera mu majerekani y'umuhondo, undi ahagaze hejuru y'ivomero arimo areba uko abandi bavoma.

Abantu bicaye bahawe urubuga mu nama ngo baganirize abandi, bicaye imbere, inyuma yabo hari icyapa gifite amabara y'ubururu, cyandikishijweho umweru.

Inyabugeni ahabereye isuzuma rusange, abaturage benshi barahagaze bategereje gusuzumwa, harimo ababyeyi bahetse abana mu mugongo, n'abandi babateruye.

Umwana uri kunywera ku ivomero rusange akoresheje ibiganza yunamye, munsi ye hari indobo, yambaye ikabutura itukura n'udukweto tw'ubururu.

Abana bahagaze ku mirongo ibiri, uw'imbere n'uw'inyuma, bafatanye ku rutugu, bose bambaye imipira y'ubururu, iriho ibirango ndetse yanditseho UNICEF.

Umwana uri kwa muganga, uri kumwe n'umubyeyi we amukikiye, amufashe, umuganga ari kumutera urukingo, umwana asa n'ufite ubwoba.

Ku ivomero rusange rikoresha ipombo bazamura amazi y'umugezi hahagaze abana bane bafite utujerekani baje kuvoma, hari umukobwa uri kubafasha gupompa kugira ngo amazi azamuke.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri, ikabutura n'ishati, afite igikombe, ari kuvoma amazi ku kigega kinini.

Ku ivomero rusange, hari abantu batatu, umubyeyi uhagaze ukenyeye igitenge, n'undi uri kuvoma iruhande rwabo, hari amajerekani menshi y'umuhondo.

Ku ivomero rusange hahuriye abantu benshi, bamwe bicaye ku majerekani, abandi barahagaze, hari ibikoresho bitandukanye byo kuvomeramo nk'amabase ndetse n'amajerekani n'indobo.

Umugore wikoreye indobo imwe y'umutuku, indi ayifashe mu ntoki y'umuhondo, yambaye igitenge arimo kugenda ahantu hasa nkaho ari mu cyaro.

Abantu bahuriye ku ivomero kuvoma amazi meza harimo abana batoya n'undi mukuru, bafite amajerekani ateretse ategereje kuvomerwa n'indi irimo kuvomerwa.

Umuganga wicaye hanze mu mbuga ku gatebe k'urubaho, imbere ye hari abarwayi b'ababyeyi batatu bose bateze udutambaro mu mutwe, umwe bari kumupima uko umutima utera.

I Nyabageni ahabereye isuzuma rusange ry' ababana n'ubwandu, abantu benshi barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo uri ku ivomero rusange uri guseka cyane afashe ku ijerekani y'umuhondo yambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo imirongo.

Abashyitsi bakuru bicaye imbere bayoboye inama ya Minisiteri y'Ubuzima y'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo.

Ku ivomero rusange umwana uri kugerageza kwikorera indobo y'umuhondo, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikobo y'ubururu n'agapira k'ubururu, utagaragara igice cyo hejuru.

Ababyeyi benshi bicaye kwa muganga, bakikiye abana b'impinja, umwe muri bo amuteruye amushyize ku rutugu, yambaye agapira gatukura n'igitenge.

Umuntu uri gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe ikozwe mu bikoresho bya gakondo, harimo ibiti n'akajerekani, aho akandagira ku giti, agakaraba intoki atabanje gukora ku gikoresho kirimo amazi.

Abagore bari ku ivomero rusange, bari kuvoma amazi meza, umwe ari kuyatega mu ndobo, abandi babiri barimo barapompa icyuma bakoresha kugira ngo amazi azamuke ava mu butaka babone uko bayavoma.

Umuntu uri guhabwa urukingo yicaye ku ntebe, umuganga uri kurumutera amuhagaze iruhande, inyuma ye hahagaze undi muntu wambaye ishati irimo amabara ameze nk'utudomo y'umuhondo n'umukara.

Umwana uri ku ivomero rusange yunamye ateze ibiganza ari kunywa amazi, munsi ye hari indobo ihateretse umwana yambaye agakabutura gatukura n'ishati ifite amabara nk'aya gisirikare.

Umwana uri ku ivomero rusange ufite akajerekani avoma, hejuru hari umugabo uri kumufasha wamufatiyeho kugira ngo abone uko avoma.

Abana benshi bari kubyiganira ku ivomero rusange bose bashaka gukaraba intoki harimo abananiwe kurigeraho abandi bashyizeho intoki ari benshi bari gukaraba.

Dogiteri Nsanzimana Sabe ari mu nama n'abandi bayobozi batandukanye bicaye ku meza, imbere yabo hari amazi mu macupa y'ibirahuri y'inyange.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye imyenda y'ishuri, ari ku rukarabiro akaraba intoki munsi y'igiti.

Kwa muganga aho bategererereza, hicayemo abantu benshi, hari umubyeyi uri imbere, uteruye mwana ufite n'impapuro mu ntoki.

Abari n'abategarugori bari mu nzu bose bari kubyina, bateze amaboko, babyina imbyino za gakondo za kinyarwanda.

Abantu bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso bahagaze imbere y'inyubako yanditseho gira ubuzima isize amarangi y'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama y'igihugu nyunguranabitekerezo, ku buryo haboneka imari ifasha mu by'ubuzima, barimo guhabwa ikiganiro na Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dogiteri NSANZIMANA Sabin.

Umugore n'umugabo bicaranye n'umujyanama muby'ubuzima bicaye hanze kudutebe tw'imbaho, umugabo afashe umugore we kunda ndetse no kurutugu.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hateretse amazi ari mu icupa ry'ikirahuri ry'Inyange, bafite za mudasobwa imbere yabo, inyuma yabo hari ibitambaro by'ubururu.

Abantu bicaye ari benshi mu cyumba basa n'abari kwiga, bicaye ku ntebe z'imbaho, icyumba bicayemo gisize irange ry'umuhondo.

Umuntu uhagaze ku ivomero rusange, ari kuvomera ijerekani y'umuhondo afashe ku ivomero, inyuma ye hari imisozi isa neza.

Ku ivomero rusange hahuriye abantu benshi, umwana umwe afite amajerekani niwe urimo arayavomera, umubyeyi we arimo arazamura amazi akoresheje icyuma bifashisha.

Abana b'abanyeshuri abakobwa n'abahungu, bambaye imyenda y'ishuri, bafite ibikombe, umwe muri bo ari kuvoma amazi, abandi bari kuyanywa.

Umubyeyi wagiye kuvuza umwana we kwa muganga, yicaye amukikiye, umwana umuganga arimo kumupfuka ku mutwe asa nk'aho yakomeretse.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri ahagaze ku rukarabiro arimo gukaraba ku maboko imbere ye hari akabase kajyamo amazi ari gukoresha.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bari ku mirongo bafite amakayi mu ntoki, bigaragara ko barimo bariga. Inkuta z'icyumba bicayemo zisize amabara yera.

Umubyeyi uteruye umwana imbere ye hari undi muntu wambaye agapfukamunwa afite akamashini gapima umuriro arimo kumupima, iruhande rwabo hari abandi bantu bahagaze inyuma ye hari ikiyaga.

Abantu bahagaze mu ihema, harimo abana batoya, bambaye imyenda y'ishuri, isa n'ubururu, hari abandi babyeyi bahagaze imbere ndetse n'abarezi hagati muri bo.

Ku kigo nderabuzima cya Mayange, abaganga n'abaforomokazi bari kwakira abashyitsi, umwe muri bo ni umuzungu, abaganga bose bambaye amataburiya y'ubururu.

Abana bari ku ivomero bari kunywa amazi bakoresheje ibiganza, abenshi muri bo bambaye imyenda isa y'ishuri y'icyatsi.

Umwana uri ku ivomero ateze ibiganza ari kunywa amazi, yambaye imyenda y'ishuri y'ubururu n'agashati k'umweru, iruhande rwe hari ikigega cyanditseho Unicef.

Abana b'abakobwa bambaye imyenda y'ishuri bari gukaraba intoki, bamwe barunamye bakaraba, undi arahagaze ategereje ko nawe agerwaho.

Abana b'abanyeshuri batandatu, abahungu n'abakobwa bambaye imyenda y'ishuri, bahuriye ku ivomero rusange bafite indobo bari kuvomamo amazi.

Umwana uri gukaraba intoki, afite isabune ye mu ntoki ari gukarabisha ndetse hari n'umuntu uri kumusukira amazi hagaragara ukuboko kwe gusa afatishije icyo ari gusukisha.

Ku ivomero rusange hari abana babiri bari kuvoma amazi ku ipompo izamura amazi iyakuye mu isoko bari kuvomera mu tujerekani tw'umuhondo.

Abantu bari mu nyubako bahagaze ari benshi ku mirongo ibiri, bamwe imbere abandi inyuma, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu kiganiro kirebana n'ingengo y'imari ku by'ubuzima hari umuntu uhagaze imbere uri gutanga ikiganiro iruhande rwe hari intebe bateguriye abaza kuba batanga ikiganiro nyuma ye.

Abantu bahagaze ku ivomero rusange barimo kuvoma amazi, ryatewe inkunga n'umuryango Unicef, babiri muri bo bari gufatikanya guterura indobo bigaragara ko ishobora kuba iremereye.

Umubyeyi wazanye umwana kwa muganga yicaye amuteruye, imbere ye hari umuganga uri gusuzuma umwana akora mu mihogo ngo yumve ikibazo afite.

Abantu baje ku ivomero rusange kuvoma amazi meza, umwe muri bo ari kuvomera mu ijerekani y'umuhondo, abandi barategereje ko bagerwaho.

Abana benshi bicaye bari kunywa igikoma, bamwe mu bari kubanywesha harimo uwambaye imyenda ya Polisi y'Igihugu y'u Rwanda ndetse n'abandi babyeyi babiri bari kunywesha abo bana.

Abana bari ku ishuri bari gufata ifunguro, bose bicaye mu ntebe zimbaho, bari kurira ku masahani y'ibyuma, mu biryo bari kurya harimo ibishyimbo.

I Nyabageni ahabereye isuzuma rusange, hari inzu yubakishije amakoro, hateye ihema hanze, hari abantu benshi n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda rishinze hagati yabo.

Abantu bari ku ivomero rusange, hari amajerekani menshi atonze umurongo y'umuhondo, hahagaze abantu bamwe bategereje kuvoma, abandi barimo baratwara amazi bamaze kuvoma.

Abantu bicaye bari gukora inama, harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ibikombe birimo ibyo banywa, hagati hateretse igikoresho kimurika amashusho imbere, kugira ngo bahuze ibyo baganira.

Abantu batandatu bicaye hanze ku dutebe dukozwe mu mbaho. Muri bo harimo umwana muto, harimo ababyeyi biteye udutenge ndetse umwe muri bo ateze igitambaro mu mutwe.

Umugabo uhagaze uri gusuhuza undi mugabo umur'imbere wambaye nabi imyenda icitse cyane, ufite umusatsi usa nabi ugaragara nk'aho afite uburwayi bwo mu mutwe.

Inyubako y'ibitaro bya Akarere ka Munini isize irange ryera, ifite amadirishya mo imbere harimo kwakamo amatara, hanze hari ubusitani n'ibyapa bigaragaza ibitaro.

Umuntu wicaye hasi wambaye imyenda yanduye cyane, na we asa nabi, iruhande rwe hari amacupa ya purasitike, afite isashi mu ntoki, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu babiri bafashe umuhungu w'umusore umwe yamwishyizeho ukuboko kwe ku rutugu, umusore arananutse cyane bigaragara ko ashobora kuba ashonje cyangwa se arwaye.

Abantu benshi bari gufata ifoto y'urwibutso, mu cyumba bamwe bicaye imbere, abandi bahagaze basa nkabakora igice cy'uruziga.

Abantu bicaye nk'abari mu nama, benshi muri bo bambaye udupira twirabura turiho ibirango bisa, bicaye ku ntebe z'umutuku.

Umugabo uri guseka wambaye umupira w'umuhondo, yogoshe afite umusatsi muke n'ubwanwa bwo hasi, afite amenyo asa neza cyane.

Umuntu washyize agatambaro ku maso usa nkaho ari kurira amarira y'agahinda, bigaragara ko ashobora kuba ababaye cyane cyangwa se afite agahinda gakabije.

Umwana w'umunyeshuri wicaye ku ntebe y'ishuri y'urubaho ifite akameza k'urubaho, ari kurya biswi yambaye imyenda y'ishuri y'umweru n'ubururu.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe uhagaze mu muhanda wambaye imyenda isa nabi cyane icitse, afite umusatsi usa nabi udasokoje ndetse afite n'ibishishwa mu ntoki by'imineke.

Umukecuru ukuze, wambaye imyenda idoze mu gitenge, gifitemo amabara y'icyatsi, umuhondo, umukara ndetse n'umweru, ari guseka yambaye n'igitambaro kidoze muri icyo gitenge nyine mu mutwe.

Ababyeyi bakuze batatu bahagaze ahantu hasa nko mu murima bafite inkoni mu ntoki, umwe ateruye umwana ari kumwonsa.

Abantu bari mu nama bakurikiye ikiganiro, uri kugitanga aravuga ku kwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera, batatu bicaye bamureba, undi arahagaze arimo arabagezaho ikiganiro.

Umuntu wicaye aboshye amaguru yambaye agatenge, aho yicaye arasa nabi ariko hashashe ibitenge asa nk'umuntu uri muri gereza.

Umubyeyi wicaye ahetse umwana ku mugongo, undi amuhagaze iruhande, imbere ye, hari imbabura iteretseho isafuriya irimo igikoma ari kubatekera.

Ku munsi Mpuzamahanga wagenewe ubuzima bwo mu mutwe, abantu bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bamwe bicaye imbere, abandi bicaye mu ntebe zisanzwe.

Umugabo wambaye imyenda icitse, ufite ubwanwa bwipfunditse n'umusatsi wipfunditse, bisa nabi ku buryo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo uhagaze mu muhanda usa nabi ku mubiri, wambaye imyenda icitse bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, inyuma ye hari imodoka y'ikamyo itwara ibintu.

Abantu benshi bahagaze bishimye bamanitse amabendera y'u Rwanda hejuru, imbere harimo umwana wambaye agapira k'ubururu, ari guseka cyane yishimye.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, bamwe bicaye kumurongo w'imbere ku ntebe, abandi bahagaze inyuma, benshi muri bo bambaye imipira isa, yirabura.

Abana benshi bafite agahinda, bari kurira, abandi bateze amaboko, bambaye imyenda isa nabi, bigaragara ko bababaye kandi bakeneye ubufasha.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bari gufata ifoto y'urwibutso abandi babahagaze inyuma basa n'abakoze uruziga rw'igice.

Abana bato benshi bicaye, bambaye imyenda y'ishuri isa icyatsi, bose bari guseka, ubona bishimye.

Imodoka iriho ibitaro byimukanwa, bishinzwe gufasha abafite uburwayi bwo mu mutwe. Hari abantu bicaye hanze ku ntebe za parasitiki, barimo baritabwaho n'abaganga.

Umuntu wicaye mu nzu isa nabi na we atambaye imyenda habe namba, yazirikishije iminyururu ku maguru, yicaye ubona ko afite agahinda.

Urubuga rwo kuri murandasi rwitwa Wellness, ubu ruri gukora. Rufasha guha abantu inama ndetse rukanabafasha kubaha ubufasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Madamu Jeannette Kagame, umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ahagararanye n'abandi bayobozi, bafashe utwapa duto dukora ubukangurambaga ku kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi wicaye ku gatebe k'urubaho, mu nzu ishaje, hejuru ye hari idirishya rikinguye, yambaye kamambiri akenyeye igitenge, imbere ye hasi hashashe umukeka.

I Bugesera ahari gutahwa cyangwa se kumurikwa ibitaro bigenda bishinzwe kwita ku burwayi bwo mu mutwe. Ibi bitaro bikunze kuba biri mu modoka.

Umukecuru wicaye hanze ku ntebe y'urubaho akenyeye igitenge, imbere ye hari amashyiga arimo inkwi zicanye hateretseho isafuriya ari guteka.

Umwana muto wicaye ku ntebe itukura yasamye yerekana amenyo ye, umuganga arimo gusuzuma ubuzima bwe bwo mu kanwa.

Umwana uri guseka, ari koza amenyo, yambaye ishati y'ubururu, afite uburoso bw'amenyo mukiganza cy'ibumoso.

Umwana uri kwa muganga w'amenyo arasamye umuganga ari kumuvura amenyo akoresheje udukoresho wifashisha ndetse yambaye n'uturindantoki.

Umuntu uri koza hagati mu menyo nk'uwihanganyura akoresheje agakoresho kaba gafitemo akagozi hagati ari nako gafasha kugera hagati mu menyo.

Umwana wicaye ku ntebe yasamye, abaganga babiri bari kumuvura amenyo. Abaganga bombi bambaye udupfukamunwa, amataburiya y'abaganga ndetse umwe yambaye uturindantoki.

Umugabo uri guseka yishimye ufite amenyo asa neza y'urwererane, ari kwerekana uko amenyo ye ameze, yambaye agapira kera n'amadarubindi.

Ku munsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, abantu benshi batonze umurongo, umwe ari ku munzani upima ibiro ndetse n'uburebure bari kumupima.

Umwana uri kwa muganga w'amenyo, aryamye, umuganga afite ibikoresho yifashisha mu kumuvura, umwana ari guseka yiteguye kuvurwa.

Umukobwa uri koza amenyo akoresheje uburoso bwo mu kanwa, afunze agatambaro bihanaguza mu mutwe, yambaye agasengeri k'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, kirimo imashini bifashisha iyo bari kuvura, harimo intebe umuganga yicaraho.

Abantu bicaye, buri wese imbere ye ku meza, hateretse umuti woza amenyo Whitedent. Inyuma yabo hari abantu bari kubasuzuma, uburyo amenyo yabo ameze.

Abana bato benshi bambaye imyenda y'ishuri, bafite udukombe mu ntoki turimo amazi ndetse n'uburoso bw'amenyo barimo koza amenyo.

Umuntu uri koza amenyo akoresheje akadodo kabugenewe, hejuru ntacyo yambaye afite agatambaro yihanaguza ku rutugu.

Aho bavurira iby'amenyo hari umurwayi uryamye barimo baramwitaho, abandi babiri umwe ni umuganga uri kumuvura ndetse n'undi uri kumufasha.

Kwa muganga mu cyumba kivurirwamo ibijyanye n'amenyo. Harimo intebe iryamishwa umurwayi yicaraho iyo arimo arasuzumwa cyangwa ahabwa ubufasha ku bijyanye n'amenyo. Harimo agatebe ka muganga. Harimo ibikoresho byifashishwa iyo barimo baravura.

Umwana wasamye umuganga afite agakoresho ari kureberamo mu kanwa uko amenyo y'umwana ameze.

Umukobwa uri gukoresha urudodo bakoresha boza amenyo ahumirije cyane, yambaye agasengeri kera afite umusatsi umanuka mu maso

Icyumba cyo kwa muganga kivurirwamo amenyo, harimo intebe itukura, harimo ibyuma byifashishwa mu kuvura, hejuru hamanitse tereviziyo.

Abana benshi bambaye imyenda y'ishuri bari mu ishuri bahagaze bishimye, bose bahawe uburoso bw'amenyo babufashe mu ntoki babwerekana.

Umwana wasamye umuganga ari kumuvura amenyo, afite udukoresho yifashisha mu ntoki, yambaye uturindantoki tw'umweru.

Umugabo n'umwana bari kwerekana uburyo bakoresha akadodo koza amenyo bombi bambaye udupira twera, bahagaze baseka.

Umuntu uryamye ku gatanda k'umurwayi wasamye, arimo kuvurwa n'umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu, ufite ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo.

Umusore uhagaze uri kwireba mu ndorerwamo, afite akadodo kabugenewe koza amenyo, ari guseka cyane afite amenyo asa neza.

Umugabo uri guseka, ufite amenyo asa neza, afite akadodo bakoresha boza amenyo. Hejuru, ntacyo yambaye.

Umukobwa uri guseka ufite amenyo meza ari kwerekana mu kanwa he akoresheje ikiganza yakoze agashusho k'urukiramende kazengurutse umunwa we.

Umuntu uri kwa muganga kwivuza amenyo, aryamye yasamye, umuganga uri kumuvura yambaye itaburiya y'ubururu, akantu gapfuka umusatsi, ndetse n'agapfukamunwa.

Umugabo uri guseka cyane yishimye, wambaye agapira k'ubururu bwijimye, ufite amenyo asa neza bigaragara ko yita ku buzima bwe bw'amenyo.

Umwana uri kwa muganga bari kumuvura ibijyanye n'uburwayi bw'amenyo, arasamye, umuganga yashyize agakoresho mu kanwa ari kureba uburyo amenyo ye ameze.

Kwa muganga icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo. Umuganga arimo kuvura umwana amenyo, yambaye uturindantoki, agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'abaganga cyangwa abaforomo y'icyatsi.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abantu bakuru bahagaze imbere, harimo umuganga uri kumwe n'umwana, afite ikintu kibaje n'akanwa n'amenyo ari kumwereka uko bakoresha uburoso boza amenyo.

Umukobwa uri kwa muganga wagiye kwivuza amenyo, yasamye umuganga arimo kumuvura akoresheje udukoresho twabugenewe, yambaye n'uturindantoki twera.

Umugabo uri gukoresha akadodo bogesha amenyo ari guseka amenyo yo hejuru agaragara, uru rudodo bakunze kurukoresha cyane iyo umuntu yifuza koza hagati y'amenyo.

Umuntu uri gusukura amenyo aseka, akoresha akagozi bakoresha boza amenyo, yambaye agapira k'umweru, afite umusatsi urimo udusuko.

Umugabo w'umusaza wicaye afite mudasobwa imbere ye, umukobwa ari kumuha imiti n'iruhande rwe hateretse ikirahuri cy'amazi.

Umusaza ukuze usheshe akanguhe, ufite imvi mu mutwe, wicaye mu kagare k'abagendana ubumuga, umuganga amuri inyuma ari kumusunika bareba mu idirishya hanze.

Abantu babiri bari kumwe harimo umubyeyi umwe ukuze ufite imvi mu mutwe, imbere ye arimo arakata bimwe mu biribwa ari gutegura, undi ari kumureba, afite isorori imbere ye.

Umukobwa n'umusore n'umukecuru uri hagati yabo ufite imvi, bahagaze bari kwarura, umusore afite isahani, umukobwa arimo kumwarurira.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru, bicaye ku meza, imbere yabo hateretse imiti; ku ruhande hari ikirahuri cy'amazi, barareba kuri terefone, basa n'abareba amabwiriza agenga uburyo bagomba gufata imiti.

Umusaza wicaye ufite imvi mu mutwe no mu bwanwa, iruhande rwe hari umuforomokazi uri kumwitaho ari kumusukira umutobe w'imbuto, imbere ye hateretse imbuto kudusahane.

Umukecuru ukuze ufite imvi nyinshi ku mutwe, ufite utwuma bakoresha twongera ibiro bari guterura, ari gukora imyitozo ngororamubiri ari guseka.

Umusaza ukuze usheshe akanguhe, wambaye ishati y'ikigina, yicaranye n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'akantu gapima uko umutima utera ku ijosi, ari kumwereka amafoto yo kwa muganga.

Umuryango uri kumwe, umukecuru n'umusaza n'abana babo, ndetse harimo n'umwana muto, bigaragara ko ari umwuzukuru wabo.

Umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, undi amwicaye iruhande ushinzwe kumwitaho, amufashe ikiganza barebana, basa nk'abari kuganira baseka.

Umugabo ukuze ufite imvi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, afashe udukoresho twongera ibiro mu ntoki, yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umusaza ugeze mu zabukuru ufite imvi nyinshi mu mutwe, abantu babiri umukobwa n'umuhungu bari kumufasha kwicara ku buriri.

Umubyeyi n'umwana we bicaye ku meza, bari gukina imikino y'utuntu bafatanya tugakora ishusho imwe, umwana afunze udusatsi hejuru.

Umugabo ukuze ufite imvi mu musatsi no mu bwanwa arimo gukora imyitozo ngororamubiri, hari umuganga uri kumufasha kuyikora. Umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'agakoresho bakoresha bumva uko umutima utera n'uko umuntu ahumeka ku ijosi.

Umwe mu bita ku bageze mu zabukuru, ari kugendana n'umukecuru ukuze, uri kwifashisha agakoresho gakoreshwa n'abatabasha kwigenza bakoresheje amaguru yabo yonyine.

Abantu batatu bicaye ku meza, bari gukina amakarita, baseka cyane, bishimye. Umwe muri bo ni umubyeyi ukuze, ufite imvi nyinshi mu musatsi.

Abantu bahagaze mu murima, bari gufata ifoto, bose bari guseka, bamanitse amaboko hejuru, harimo abambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Abagore batatu bakuze bicaye bari kumwe bose bareba kuri telefone imwe, uwo hagati niwe uyifashe, umwe yambaye akagofero gakozwe mu budodo bafite nk'ibintu bibateretse imbere.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, bafite udukoresho baterura, inyuma hariyo abatagaragara neza, uw'imbere ari guseka yishimye ayoboye abandi.

Umukecuru ukuze ufite imvi mu mutwe, yicaye afite ikirahuri cy'amazi, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye imyenda y'abaganga, ari kumuha ibinini agiye kunywa.

Umusaza wicaye afite telefone mu ntoki, iruhande rwe hari ushinzwe kumwitaho bombi bari kureba kuri telefone.

Umusaza wicaye ku ntebe, umuganga amwambika igikoresho bakoresha bareba uko umutima utera.

Umugabo n'umugore bakuze bafite imisatsi irimo imvi baricaye bari gukina, bombi bari guseka bishimye.

Umusaza wicaye uri gukina n'undi muntu imbere ye utagaragara neza, umusaza yambaye agapira k'umweru n'ubururu, gafite ikora ry'ubururu.

Umugore n'umugabo basheshekanguhe, bombi bafite imvi mu musatsi, bicaye ku meza bareba agapapuro k'uburyo imiti ikoreshwa iri imbere yabo.

Umusaza ukuze ufite imvi nyinshi wambaye ishati y'icyatsi n'agapira hejuru yayo, afite ikaramu arimo kwandika.

Umusaza ukuze ufite imvi nyinshi, wambaye amadarubindi n'umupira w'umweru, afashe akantu gafite ibiro mu ntoki, umuganga amuhagaze iruhande, amufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi ukuze ufite imisatsi irimo imvi, yicaye mu nzu hasi ku kantu bakoreraho imyitozo ngororamubiri, yicaye akoze ku kirenge.

Umuganga uri kwita ku mukecuru ukuze, umuganga yambaye imyenda y'abaforomo, agakoresho akoresha bumva uko umutima utera ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kugerageza guhaguruka, undi muntu umuri iruhande uri kumufasha kumuhagurutsa, ku gitanda niho yari yicaye, hejuru hariho n'inzitiramubu.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu, arimo gufasha umubyeyi ukuze, wicaye afite ikirahuri kirimo amazi, ari kumuha ibinini agiye kunywa.

Abantu babiri bari kumwe, umwe ni umugabo ukuze, ufite imvi, wambaye agapira k'icyatsi n'ishati hejuru yako, undi ni umugore wambaye akajaketi k'ikoboyi n'amadarubindi.

Ahantu hari abasheshe akanguhe bicaye bari gufata ifunguro umwe yicaye ku kagare k'abafite ubumuga cyangwa abatabasha kwigenza hari umwe mu babafasha umuhagaze inyuma ufashe kuri ako kagare ari kuganira nabo.

Umubyeyi ukuze, ufite imvi nyinshi ku mutwe, ufite ikirahuri kirimo amazi mu kuboko kw'ibumoso, ufite ibinini mu kuboko kw'iburyo ari kubinywa, yambaye n'amadarubindi.

Abakecuru babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, ukuboko kumwe bagushyize imbere, ukundi kuri inyuma. Umwe muri bo afite imvi mu mutwe, yambaye n'agatambaro kera ku kuboko kw'iburyo.

Abakecuru basheshe akanguhe ndetse n'abandi bantu bari inyuma yabo, bose bari mu muhanda bagenda. Abakecuru uko ari babiri bafashe udukoni mu ntoki ndetse bakenyeye imikenyero ya kinyarwanda.

Abantu bari kumwe, bamwe bicaye hasi, abandi bicaye ku ntebe za purasitike, harimo umuzungu umwe uteruye akana, undi ari kuboha yicaye arambije hasi.

Umusaza n'umukecuru basheshe akanguhe, bombi bafite imvi nyinshi mu mutwe, bicaye bari gukina umukino, umwe yambaye agapira k'ubururu, undi yambaye agapira gatukura.

Abakobwa benshi bicaye mu cyumba mberabyombi, ku ntebe za pulasitike, bose bambaye imipira yera, imbere hari umwe ufite icyo ari kubabwira, undi afite kamera, afata amafoto.

Raporo y'umuryango mpuzamahanga wita ku by'ubuzima, ku ngamba zihariye zo guhangana ndetse no kurwanya icyorezo cya Covid cumi n'icyenda, mu Karere k'Afurika.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda dogiteri Nsanzimana Sabe, yicaye imbere ari kumwe n'undi muzungu iruhande rwe, bari gutanga ikiganiro ku guhagarika icyorezo cya mabaga.

Icyumba kiri kuberamo inama mpuzamahanga ya makumyabiri, yiga ku bijyanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hicayemo abantu benshi harimo intebe zitukura, imbere hari abandi bicaye bari kubaganiriza.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Nsanzimana Sabin ari gusuhuzanya n'undi muntu nyuma yo guhana amasezerano bombi bafashe mu ntoki.

Icyumba kicayemo abantu, kiri kuberamo inama yateguwe n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC. Inama yibanze ku bushakashatsi ndetse n'amategeko ku bijyanye n'ubuzima, yabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umuntu wagiye kwikingiza. Umuganga uri kumukingira, hirya ye hahagaze umuntu wambaye ishati irimo amabara y'umuhondo n'umweru, bose bambaye udupfukamunwa.

Bimwe mu bimenyetso bigaragaza indwara y'isukari, izwi nka diyabeti mu ndimi z'amahanga. Harimo kumva ufite inyota nyinshi cyane, harimo gushaka kwihagarika kenshi bidasanzwe, harimo kureba ibicyezicyezi no kumva unaniwe ndetse no gutakaza ibiro.

Nyuma y'umuhango wo gusinya amasezerano ya Afurika k'ibijyanye n'imiti abantu bari gufata ifoto y'urwibutso bamwe bicaye abandi bahagaze.

Mu cyumba cyo kwa muganga babagiramo, abaganga barimo kubaga umurwayi, bose bambaye imyenda yabugenewe y'icyatsi, bambaye utuntu turinda umusatsi ndetse n'udupfukamunwa bose.

Mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge hari inyubako isize irangi ryera, hari indabyo ziteye ku murongo ndetse hari n'aho abanyamaguru banyura.

Mu bubiko bw'amaraso harimo ibyuma biyakonjesha kugira ngo agume ari mazima. Abitse mu tuntu tugerekeranye, tw'utwuma.

Iduka ririmo amadarubindi ariho abaganga bandikira abarwayi barwaye amaso, harimo amoko atandukanye, ari mu kabati k'ibirahure.

Icyumba kiberamo inama, kirimo intebe bicaraho z'umukara zizinga, imbere hari akameza ukoresha inama aba ahagazeho gasize irangi ryera.

Mu bitaro harimo ibitanda by'abarwayi biri ahantu rusange, hatandukanyijwe n'amarido, harimo n'utumeza abarwayi bifashisha iyo bagiye kurya bagaterekaho ifunguro ryabo.

Umugabo wicaye munsi y'igiti cyubakiye n'amabuye, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'irabura, igiti ni kinini cyane, bigaragara ko gishobora kuba kimaze imyaka myinshi.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo utugare banyonga tutava aho turi, harimo itapi y'icyatsi hasi ndetse n'utundi bagenderaho tutava aho turi.

Inyubako y'ibitaro isize amarangi yera, hirya yayo hari ubusitani bukoze neza n’igiti kinini hagati muri bwo, ku rubaraza haraka amatara hari n'abantu bahahagaze.

Kwa muganga icyumba kirimo ibikoresho abaganga bifashisha harimo akagare banyonga katava aho kari, harimo za mudasobwa, harimo n'izindi mashini bakoresha iyo bari kuvura abantu.

Inyubako y'ibitaro isize irangi ryera, hanze hari ubusitani bwiza, hari ikigega cy'amazi ndetse n'umuntu wicaye mu kagare kamwe k'abafite ubumuga cyangwa batabasha kugenza amaguru.

Imashini ikunze kwifashishwa mu bizwi mu rurimi rw'amahanga nka raboratwari ifasha cyane kureba utuntu duto tutabasha kuboneshwa amaso, iruhande hari amacupa arimo amazi cyangwa imiti bakoresha iyo bari gusuzuma.

Kwa muganga aho bakirira abarwayi, hazwi nka resebusiyo mu ndimi z'amahanga. Hari intebe abantu bicaraho iyo bategereje, hasize amarangi yera.

Ircad ni ikigo mpuzamahanga cya Afurika gikorera mu Rwanda, iyi nyubako ni inyubako ifite uburanga bwinshi ikozwe n'ibintu birimo ubugeni.

Ku cyumweru cyahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abageze mu zabukuru, abantu bicaye mu cyumba cy'ishuri, imbere hari umuntu uri kubaha ikiganiro.

Kwa muganga mu bitaro aharwarira abarwayi, harimo ibitanda bitandukanywa n'amarido y'ubururu, hari inzitiramubu iri kuri buri gitanda.

Kwa muganga mu cyumba kirwariramo abarwayi kirimo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi biyoroshe, harimo n'abantu barimo gukora amasuku bakoropa ibitanda bitandukanyijwe n'amarido.

Inzu y'ibitaro y'ubatswe n'amabuye y'amakoro, izengurutswe n'akabaraza kari kugendwaho n'abantu babiri, hirya yayo ifite ubusitani bukore neza.

Icyumba kiri mu bitaro by'abana, aho bategerereza harimo intebe ndetse n'ibikinisho abana bakiniraho. Kimwe muri byo ni ikibumbano gikoze nk'akanyamasyo.

Inyubako nini ebyiri z'amagorofa zubakishijwe amatafari ahiye zifite amadirishya y'ibirahuri hirya no hino mu mpande zazo hateye ubusitani bwiza cyane.

Umusore uryamye ku gatanda kwa muganga, afunze ikiganza, barimo kumufata amaraso. Umuganga uri kumufata amaraso, yambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga bategererezamo, kirimo intebe z'ubururu, izindi z'umuhondo zifite n'utundi tubara, harimo indabyo ziteye hagati y'inkingi ebyiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri, kimwe kiryamyeho umurwayi yiyoroshe; inyuma ye hari imashini zifashishwa mu buvuzi, hejuru hari amatara manini.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya shagasha hanze hicaye abantu bari kumwe n'abana, inyubako isakajwe n'amabati y'ubururu, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere isize irangi ry'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda umurwayi aryamaho ari kuvurwa gishasheho ishuka yera, iruhande hari ibyuma byifashishwa n'abaganga iyo bari kumwitaho.

Ku irembo ry'ibitaro hari umuntu ushinzwe umutekano w'ibitaro uhahagaze, hirya hari abantu bari gutambuka, hari n'imodoka zihaparitse. Inzu y'ibitaro isize irangi ry'umuhondo, isakajwe amabati atukura.

Ku bitaro byagenewe kuvura abana n'impinja, hahagaze abantu benshi, bamwe muri bo bambaye imipira isa y'icyatsi.

Ku iduka ry'imiti ryitwa penaniyeri, hari umuntu uhagaze hanze, hari moto ziparitse ku irembo, ndetse n'imiryango yayo isize ubururu.

Inyubako ikoreramo ikigo gishinzwe ibya Kanseri mu Rwanda, imbere yaho hari umwofisiye wambaye imyenda ya gisirikare y'u Rwanda, inzu isize irangi ry'umuhondo, imbere yaho hari ubusitani buto burimo indabyo.

Kwa muganga mu bitaro, ahari ibitanda byinshi by'abarwayi, bitandukanyijwe n'udukuta tugufi n'amarido maremare y'ubururu, harimo umuganga uri gucamo hagati wambaye imyenda y'icyatsi cyijimye y'abaganga.

Kwa muganga, mu bitaro, aho abarwayi barwarira harimo ibitanda byinshi bishasheho amashuka y'ubururu n'umweru, harimo amarido atandukanya ibyo bitanda.

Icyumba cyo kwa muganga babagiramo, kirimo igitanda umurwayi abagirwaho, hejuru hari amatara manini, ku mpande hari ibyuma bakoresha, bifashisha mu kubaga.

Kwa muganga inyubako ababyeyi babyariramo isize irange ryera, isakaje amabati y'ubururu, ku mpande hirya no hino hateye ibiti.

Icyumba gikorerwamo isuzumwa kwa muganga kirimo intebe abarwayi bicaraho ndetse n'udutebe abaganga bifashisha bicara iyo bari gusuzuma abarwayi.

Kwa muganga mu bitaro harimo ibitanda bibiri biriho abarwayi, kimwe hari umuganga uri kuvura umurwayi ari kumubaza uko amerewe.

Umuntu uri gutera imiti yambaye ikimurinda umubiri wose by'umweru, afite ipompe mu ntoki ari gukoresha atera, iruhande rwe hari indobo zihateretse.

Kwa muganga mu bitaro, harimo ibitanda byinshi by'abarwayi baryamyeho, harimo n'inzitiramibu hejuru yabo, harimo n'utugare bifashisha mu gutwara abatabasha kwigenza.

Iguriro ry'imiti rizwi nka farumasi mu ndimi z'amahanga ryitwa Purogiresi. Ririmo imiti itandukanye iri mu tubati turimo ibirahuri.

Ibitaro bya gisirikare byubakishije amatafari ahiye, imbere ku rubaraza hasize irange ryera hari n'ubusitani mu mpande zombi.

Amaraso ari mu dusashe twabugenewe afunze neza ari kumwe ari menshi, aya atangwa n'abantu akifashishwa iyo bari kuyatera indembe zikeneye amaraso.

Inyubako ikoreramo ivuriro ry'ibitaro ryitwa polikirinike do retuware mu ndimi z'amahanga, yubakishije amatafari ahiye, hanze hari ubusitani butoya ndetse n'agapangu kagizwe n'utwuma.

Inzu ikoreramo ikigo cy'ubuvuzi cyita ku bya kanseri mu Rwanda, isize amabara y'umuhondo, hanze hari ubusitani buteyemo indabyo, ku muryango hari umusirikare wambaye imyenda ya gisirikare y'abofisiye.

Umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru, agakoresho abaganga bifashisha iyo bari kumva uburyo umutima utera cyangwa uko umuntu ahumeka, akambaye ku ijosi, yambaye amadarubindi ndetse ari no guseka.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo agatanda, kirimo ibikoresho bifashisha mu kuvura abarwayi, kirimo urukarabiro n'akantu bajugunyamo imyanda.

Umuganga uri kureba ibihaha kuri mudasobwa, ifoto yabyo yafashwe n'icyuma kizwi mu ndimi z'amahanga nka ''scanner,'' iruhande rwe hari n'indi mudasobwa ari kubireberaho byagutse.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byifashishwa nk'utugare abantu bakoresha banyonga, icyuma bagenderaho ndetse n'aho buririra.

Inzu y'ababyeyi babyariramo, imbere yayo hahagaze abaforomokazi bane, bambaye imyenda y'abaganga y'ubururu; inzu isize ibara ry'umuhondo, ndetse n'iry'icunga rihishije.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, abantu bahagaze ku rubaraza rwacyo, undi yicaye ku ntebe, inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku rubaraza hasize irange ryera.

Mu cyumba cy'ibitaro harimo igitanda cy'umurwayi gisashe neza, harimo urukarabiro, harimo akantu kabugenewe kajugunywamo imyanda, icyumba gisize irangi ryera.

Abarwayi babiri baryamye ku bitanda bari mu bitaro bafite za serumu ku maboko ndetse bafite n'utwuma twongera umwuka ku mazuru, bigaragara nk'ahoo barembye.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe cyubatswe ku bufatanye n'Imbuto foundation, cyubakishijwe amatafari ahiye, hagiye hasigwaho uturangi twera.

Iguriro ry'imiti rizwi nka farumasi mu ndimi z'amahanga, ryitwa PENIEL nyiraryo ni Murekatete Marie Denyse, imbere yaryo haparitse moto n'umuntu uhahagaze.

Ishuri rikora iby'ubushakashatsi mu buvuzi, imbere yaho haparitse imodoka ku muryango, risize amarangi yera, hari ubusitani bukoreye neza imbere.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Harimo ibyuma byinshi bitandukanye bikoreshwa. Harimo ibyo baterura biba byongerwaho ibiro. Harimo ibyo bagenderaho, cyangwa se ushobora kwirukankiraho. Ndetse hari n'ibyo basunikisha amaguru, cyangwa amaboko.

Ku marembo y'ibitaro byitiriwe umwami Faisal mu Rwanda hari abantu barimo barinjira, hari undi uhagaze ku ruhande wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, harimo amabendera atatu ashinze.

Ibitaro byitwa Legacy, hanze haparitse imodoka nyinshi, hari umuntu ushinzwe umutekano wambaye imyenda harimo ishati itukura n'ipantaro yirabura, uri kuyobora abaje bahagana.

Mu bitaro, kwa muganga, aho abarwayi barwarira harimo ibitanda byinshi bishasheho amashuka y'umweru ndetse harimo n'imashini zifashishwa mu kuvura abarwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo agatanda abarwayi baryamaho, kirimo agatebe muganga yicaraho, kirimo icyuma bakoreraho imyitozo ngororamubiri ndetse n'imashini zifashishwa mu gukurikirana umurwayi.

Ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal mu Rwanda hari abantu bari kwinjira bafite uduseke turimo ibintu bambaye amashati asa yera, hejuru aho bari kunyura hasakaje ibirahuri.

Mu cyumba cy'ibitaro cyo kwa muganga, harimo igitanda cy'abarwayi gishasheho ishuka yera, hari imashini zifashishwa mu kwita ku barwayi ziri iruhande rw'igitanda, hirya hari akamashini bakoresha bagenderaho.

Inyubako y'ibitaro yubakishijwe amatafari ahiye ifite ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye, urugero nk'imikindo hirya hari imodoka ziparitse.

Abagore batatu bicaye ku dutebe tw'imbaho, umwe muri bo yambaye imyenda y'abaganga ndetse n'uturindantoki tw'umweru, ari gufasha abandi babiri kubaha serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako y'ibitaro isize amarangi yera, hari urubaraza rurerure abantu bagenderaho batwikiriye, hirya hari ubusitani bukoreye neza.

Kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi bwibanda ku bana, aha uhasanga abaganga batandukanye, bita ku mibereho myiza y'abana bakiri bato.

Kwa muganga aho babagira harimo ibikoresho byinshi bifashisha mu kubaga, hejuru hari amatara amwe abona cyane, ku bitanda hashasheho amashuka y'ubururu.

Iduka rigurisha amadarubindi imiryango yinjiramo ukozwe n'ibirahuri, amadarubindi ari mu tubati tugizwe n'ibirahuri ndetse harimo n'umuntu utegereje guhabwa serivisi.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abantu baje gufasha abanyeshuri kubahugura ku byerekeye uburyo boza amenyo, harimo umuganga uhagararanye n'umunyeshuri ari kumwerekera ku kibumbano, uburyo bwo kwita ku isuku yo mu kanwa.

Ku kigo nderabuzima cya Matyazo, inyubako yabo yubakishijwe amatafari ahiye, ikindi gice gisize irangi ryera, isakajwe amabati y'ubururu, ku ruhande hari ikigega. Hari urujya n'uruza rw'abantu bajya ndetse banava ku kigo nderabuzima.

Umuntu wicaye yakuyemo ishati ku kuboko kumwe, ari guterwa urukingo n'umuganga wambaye uturindantoki twera n'itaburiya y'umweru.

Inzu ababyeyi babyariramo yubakishijwe n'amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, imbere ku ibaraza hasize irangi ry'umweru.

Kwa muganga aho bavurira abana, aho abantu bategerereza hasize amabara menshi, ay'icyatsi, ubururu n'andi asa n'icunga rihishije.

Umuganga wambaye itaburiya y'abaganga, yicaye ku gatebe kariho umwenda w'icyatsi, ari mu cyumba kivurirwamo iruhande rwe hari agatanda abarwayi baryamaho.

Inzu y'ibitaro, yubatse isize amarangi yera ku rubaraza, ifite urugi rw'urubaho n'amadirishya y'ibirahuri, imbere ku rubaraza hahagaze abantu batatu.

Mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bifashisha nk'utugare banyonga tutava aho turi, harimo ibyuma bifite ibiro baterura.

Inyubako ikoreramo ibitaro bya Karayese, ni ikigo cyita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe ndetse kikanabavura, kikabagira n'inama.

Ku bitaro icyumba barwariramo, kirimo ibitanda byinshi bishasheho amashuka y'ubururu, harimo n'ibyuma byifashishwa bagenzura uko umurwayi ameze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda gishasheho ishuka yera harimo za mudasobwa zifashishwa iyo bari kuvura ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inzu ikoreramo ihuriro rifasha ababana n'ubwandu bwa SIDA mu Rwanda, ribafasha kubona imiti ndetse n'ibindi n'ubuvugizi.

Icyumba gikonjeshwa, aho babika amaraso, hari utubati turimo amaraso mu dusashi dutandukanye, harimo ahantu h'ibyuma bakurura kugirango bayashyiremo.

Ku muryango w'iguriro ry'imiti mu ndimi z'amahanga bizwi nka farumasi ryitwa Goodlife, imbere yaho hateretse ibishusho byambaye imyenda igurishwa, imbere y'iguriro haparitse imodoka.

Mu bubiko bw'imiti iri mu tubati dukozwe n'ibyuma, harimo itara hejuru, imiti iteretse mu byiciro uko ikoreshwa.

Kwa muganga aho bavurira abarwayi harimo intebe eshatu z'umuhondo, hari ibikoresho abaganga bifashisha bita ku barwayi ndetse n'agatebe umuganga yicaraho iyo ari kubavura.

Ku iduka ry'imiti ryitwa Medisol riherereye i Kanombe ku muryango waryo hari akabaraza afite inkingi zisize amabara y'ubururu inzu isize amabara yera.

Ku marembo y'Ikigo cy'Ubuzima cya Kigina hahagaze umubyeyi uhetse umwana mu mugongo, amarembo agizwe n'irugi rufite ibyuma, bushobora kubonamo imbere.

Icyumba cyo kwa muganga bategerererezamo, kirimo intebe zo kwicaraho z'uburyo butandukanye, harimo izimeze nk'amasheze zirabura n'izindi bicaraho zisanzwe nk'izo muri saro z'ubururu ndetse n'izindi zifite andi mabara.

Kwa muganga mu bitaro mu cyumba kirimo ibitanda byinshi abarwayi barwariramo, hariho inzitiramibu hejuru y'ibyo bitanda, ku rukuta rugabanya igice kimwe n'ikindi hasizeho irangi ry'icunga rihishije.

Kwa muganga mu cyumba cyo kubagirwamo harimo umurwayi uryamye bari kubaga, hari umuganga uri kumubaga n'abandi babiri bari kumufasha, harimo n'ibikoresho bifashisha mu gikorwa cyo kubaga.

Icyumba cy'abarwayi cy'ibitaro kirimo abarwayi baryamye ku bitanda n'abaganga bahagaze, bambaye imyenda ibakingira umubiri wose n'udupfukamunwa, ndetse n'udukingira mu maso.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umukara, uhagaze ari gukoresha mudasobwa iri imbere ye ndetse hirya hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'abaganga y'ubururu ukiri muto ufungiye imisatsi inyuma, imbere ye hari umurwayi arimo kwitaho.

Kwa muganga mu bitaro aho abarwayi barwarira, harimo ibitanda bishasheho amashuka y'icyatsi, bitandukanyijwe n'amarido y'ubururu.

Mu bitaro kwa muganga, aho abarwayi barwarira harimo ibitanda bimwe bikingirijwe n'amarido agabanya aho abo barwayi baba bari.

Icyumba cyo kwa muganga kivurirwamo, harimo agatanda umurwayi aryamaho k'ubururu bwijimye, harimo irido imanitse, hari imashini yifashishwa mu kuvura ndetse hasizemo amarangi y'umweru.

Umusaza ukuze yicaye mu ntebe hamwe n'umuganga uri kumupima uko umutima we utera, bombi bari kurebana bari guseka.

Iguriro ry'imiti ryitwa poroguresi mu rurimi rw'amahanga, ugenekereje mu kinyarwanda risobanura gutera intambwe, imiti iri mu tubati tugizwe n'ibirahuri, kugira ngo uje kugura abashe kubona imiti iri mu iguriro.

Abantu bari ku murongo, imbere yabo hari imeza, hari umuntu wicaye mu kagare k'abamugaye, ku ruhande hari agatebe karekare k'urubaho n'izindi ntebe z'umukara.

Umubyeyi uteruye uruhinja, umuganga amuhagaze iruhande ari gukora ku ruhinja rwe, umuganga yambaye itaburiya yera n'akantu gafata umusatsi k'ubururu n'agapfukamunwa.

Icyapa cy'ibitaro rakuruwa diside byo kwa Nyirinkwaya, kiri imbere y'amarembo yinjira mu bitaro, ukimara kwinjira uhingukira muri parikingi, ahaparika imodoka.

Amarembo y'ivuriro rifite n'ibitaro yitwa Sangwa ikorera mu nzu y'igorofa igeretse kabiri, hanze hari parikingi y'amamodoka, hahagaze n'abantu bari kuganira.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo, kirimo intebe nyinshi zimwe zishobora kuryamishwa nk'igitanda, harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo ibikoresho bifashisha nk'udutebe baryamaho baterura ibyuma, harimo n'ikindi bakoresha bahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini yifashishwa mu gufotora ibiri mu mubiri, iruhande hari agatebe umuganga yicaraho, ku nkuta hasize amarangi y'umuhondo n'umweru.

Abantu babiri bicaye murugo, umwe ni umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge y'ubururu irimo andi mabara, undi ni umuganga, wambaye imyenda y'abaganga, n'agakoresho bakoresha bumva uko umutima utera.

Icyumba cy'ababyeyi babyariramo, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isizeho amarangi y'umuhondo, hanze hari abantu bahagaze bari kugenda umwe wambaye ishati y'icyatsi.

Umuntu washyize ku ivi agasashe karimo ibisukika bikonje afatishije ikiganza cy'ibumoso, gakunze gukoreshwa iyo ushaka kugabanya ububabare cyangwa aho wabyimbiwe.

Imipira bakoresha mu myitozo ngororamubiri harimo akadenesi, harimo imipira bakinisha intoki, harimo umupira w'amaguru, harimo n'akantu bakoresha iyo bumva uko umutima utera.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yinanura, yambaye agasengeri gaciyemo k'umukara n'ipantaro imufashe, imbere ye hateretse mudasobwa, iruhande rwe hari icupa ririmo amazi ndetse n'udukoresho yifashisha.

Mu cyumba babagiramo, harimo abaganga bahagaze, bambaye amataburiya y'ubururu, hirya no hino hari ibyuma bakoresha bifashisha iyo bari kubaga.

Umukobwa umaze gukora imyitozo ngororamubiri uhagaze yambaye agasengeri gaciye ndetse ari kunywa amazi mu icupa, ku kuboko kwe haziritseho akantu karimo terefone.

Udusanduku dutukura dukoreshwa n'ibangukiragutabara duteretse hasi turiho ibirango bya Croix rouge.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro kamwegereye k'ubururu n'agasengeri gaciyemo, apfukamye ku kuguru kumwe, amaboko yayashyize hejuru.

Umuntu uri gukoresha akagare bifashisha abatabasha kugenda neza bahagaze ari kumwe n'undi uhagaze ufashe umupira w'amaguru mu ntoki.

Bimwe mu bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza n'ibiro bikwiriye harimo kunywa amazi, kurya imbuto n'imboga n'inyama zera kunywa imitobe ituruka ku mbuto.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari gukoresha akagozi k'umuhondo, hirya ye hari umuganga uri kubimufashamo, wambaye ipantaro ndetse n'ishati by'ubururu by'abaganga.

Umuntu wagiye kwa muganga wicaye yazamuye ukuguru kumwe, umuganga wambaye itaburiya y'umweru afashe ukuguru kwe, ukuboko kwe gutunze ku ivi.

Umgabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umutoza uri kumufasha, harambitse utugozi hasi dukoze nk'urwego, ari kwiruka atunyuramo afite umupira w'amaboko mu ntoki.

Umugabo cyangwa umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yinanura, yambaye agakabutura k'umweru, hejuru nta kintu yambayeho, yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Abantu babiri bakora ubutabazi bwihuse bambaye amajaketi atukura ariho ibirango bya Kuruwaruje, umuryango ufasha imbabare cyangwa abakomeretse bateruye umuntu bigaragara ko yavunitse atabasha kugenda.

Umuntu uryamye ku gatanda yiyoroshe ishoka ku gice cyo hepfo aryamye yubitse inda, umuganga uri kumuvura yambaye agapfukamuwa n'imyenda y'abaganga n'uturindantoki, iruhande hari imashini ari kwifashisha amuvura.

Umugabo uri kunywa amazi mu icupa, atagaragara mu maso, wambaye udukoresho bakoresha bumva amajwi.

Umuntu wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri akoresheje ibyuma bakoresha baterura bifite ibiro, iruhande rwe hari umuganga uri kumufasha gukora iyo myitozo.

Mu kibuga cy'umupira w'amaboko, abantu benshi harimo abana bato n'abakuze, bari gukora imyitozo ngororamubiri basimbuka.

Umukobwa umaze gukora imyitozo ngororamubiri, uri kunywa amazi mu icupa ryera, rifite agafuniko k'ubururu, afite ako bihanaguza kazwi nka esume mu ndimi z'amahanga ku rutugu.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi bimwe biryamyeho abantu, ikindi kiriho umubyeyi wicaranye n’umwana we mutoya bombi bari guseka.

Ibikapu bitukura bikoreshwa n'abakoresha imbangukiragutabara cyangwa se ubuvuzi bwihuse. Kimwe muri byo gifunguye harimo udupfuko, icupa ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibyuma byifashishwa, harimo icyo birukankaho cyangwa bashobora no kugenderaho, harimo utugare dukoreshwa tutava aho turi, harimo n'ibindi bikoreshwa byongera ibiro umuntu aterura.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, harimo umuntu uhagaze uri kubikoresha, yambaye uturindantoki tw'umweru.

Umukobwa uhagaze imbere y'ikiyaga ari gukora imyitozo ngororamubiri yinanura, amaboko yayazamuye ayafatanyije hejuru y'umutwe, yambaye agasengeri k'umweru gaciyemo n'ipantaro imufashe.

Umugabo uhagaze ku kuguru kumwe, ari gukora imyitozo ngororamubiri yinanura, ukundi yagushyize hejuru ku cyuma, yunamye yakojeje ikiganza ku mano.

Umugabo umaze gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'icyatsi gaciye amaboko, afite icupa ry'amazi ari kuyimenaho mu maso.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'ubururu, afite ibyuma byongera ibiro, apfukamye ku ivi rimwe, iruhande rwe hari undi muntu uri kumufasha gukora iyo myitozo.

Icyumba gikorerwamo ubugororangingo kirimo umuntu uryamye, undi uhagaze wambaye imyenda y'abaganga y'ubururu, amufashe ukuguru yakuzamuye, ari kumugorora.

Umukinnyi wagize imvune ku kuguru uryamye hasi mu kibuga, abashinzwe gukora ubutabazi bwihuse bari kumufasha kugira ngo yoroherwe, hirya ye hahagaze abandi bakinnyi bagenzi be bari kureba.

Bimwe mu bikunze kwifashishwa ku bakora imyitozo ngororamubiri iyo bagize imvune cyangwa se bagakomereka, harimo udusashe tubamo ibisukika bihita bikonja ako kanya, harimo udupfuko ndetse n'ibindi byifashishwa mu kubafasha.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga, umuganga yicaye imbere ye afite igikoresho ari kwifashisha avura umwana, imbere ye ku meza hari imashini yifashisha mu gukora akazi ke.

Umuganga uhagaze umutwe we utagaragara wambaye itaburiya y'umweru ufite umupira bakinisha intoki mu biganza, yambaye agakore abaganga bifashisha iyo bashaka kumva uko umutima utera cyangwa uko ibihaha by'umuntu bikora neza ku ijosi.

Igikapu gitukura kijyamo imiti ikoreshwa n'abantu bakora ubutabazi bw'ubuvuzi bwihuse, mu bikoresho birimo, harimo impakasi, harimo udupfuko, harimo n'ibindi bakenera bya buri munsi.

Ibikapu bibiri bitukura, kimwe kirafunguye byifashishwa n'ibangukiragutabara, kimwe kirimo ibikoresho bakunze kwifashisha harimo n'udukoresho dupima umuriro, harimo utumakasi dutoya ndetse n'udupfuko.

Agakoresho abaganga bifashisha, iyo bashaka kumva niba umutima w'umuntu utera neza cyangwa se iyo bashaka kumva uko ibihaha bikora. Umupira w'amaguru w'umukara n'umweru ndetse n'inkweto abakinnyi bakunda kwambara zifite amenyo munsi.

Umusore n'umukobwa bamaze gukora imyitozo ngororamubiri, umusore yicaye ku ntebe y'imbaho, umukobwa arahagaze, bafite ibikapu biteretse hasi.

Inkweto z'umukara zizamutse hejuru, zikunze kwambarwa n'abasirikare cyangwa abandi bantu bakunze gukorera ahantu hatoroshye kugenda cyangwa se hari imisozi.

Umuntu uri kunywa amazi utagaragara mu maso, wambaye agapira kamwegereye n'udukoresho bakoresha bumva amajwi cyangwa imiziki.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ari kwinanura arapfukamye yunamye umutwe wenda kuwukoza hasi amaboko ayarambuye imbere.

Akagare gakunze gukoreshwa n'abageze mu zabukuru, gafite amapine ane, gafite aho bafa, gafite aho bicara ndetse n'ibyuma byako bisize irangi ry'umuhondo.

Umugabo uri kunywa amazi atagaragara mu maso wambaye agapira kera, wambaye n'udukoresho bakoresha bumva amajwi cyangwa imiziki.

Umuntu wicaye afite icupa rya pulasitike ririmo amazi mu ntoki, yambaye agasengeri k'umukara n'akantu k'agakomo k'icyatsi ku kuboko kwe kw'ibumoso.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe y'icyatsi cyijimye, hari amatara hejuru yayo, ku mpande hari imashini zifashishwa mu kuvura.

Umugabo uhagaze akora imyitozo ngororamubiri yinanura. Ahagaze ku kaguru k'ibumoso, afashe ukuguru kw'iburyo yagushyize ku giti kiri imbere ye. Yambaye agakabutura k'umukara n'agasengeri kirabura.

Imodoka y'imbangukiragutabara iri mu muhanda, iruhande hari ibitaka, umuhanda uriho utuntu dusize amabara y'umukara n'umweru, imbere hari ahantu hari ishyamba ririmo ibiti.

Umugabo uhagaze uri kunywa amazi mu icupa yambaye agapira k'amaboko magufi mu maso he hatagaragara neza.

Umuntu uhagaze yambaye agasengeri nk'utwo bakorana imyitozo ngororamubiri, ashyize amaboko inyuma ku mutwe, akubiranyije intoki yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yinanura, ukuguru kumwe kw'iburyo yagushyize imbere, ukw'ibumoso yagushyize inyuma, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe hasi.

Abaganga bicaye nk'abari kwiga cyangwa se bari mu nama, hari umwe ubahagaze imbere, uri kuberekera ku mashini iriho ishusho.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, ufite icyuma bashyiraho ibindi byuma by'ibiro uri kugisunika yirukanka.

Umugabo uhagaze umaze gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi mu icupa, yambaye agapira k'ubururu ndetse n'udukoresho dukunda gukoreshwa abantu bumva imiziki tuzwi nka ekuteri.

Mu cyumba cyo kwa muganga, kirimo intebe umurwayi aryamaho, hejuru hariho itara rinini ryaka cyane, ku ruhande hari ibikoresho muganga yifashisha n'agatebe yicaraho.

Umuntu ufite agasashe kabamo ibisukika bihita bikonja ako kanya, yagashyize ku kuboko kwe kw'iburyo ahagana ku nkokora , agafatishije ukuboko kwe kw'ibumoso.

Umusore uri kwa muganga, wicaye ku ntebe ndende, afite icyuma ku kuguru arimo arakoresha kiriho ibiro, arimo arananura imitsi, umuganga amuhagaze iruhande.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu cyumba cy'ahabugenewe kirimo ibyuma bifashisha, aryamye hasi yaziritse umugozi ku kuguru ari gukurura kuri icyo cyuma.

Bimwe mu byifashishwa mu buvuzi bwihuse bw'ibanze ku bakinnyi cyangwa abakora imyitozo ngororamubiri harimo udupfuko, harimo ibisukika bihita bikonja ako kanya ndetse n'ibindi bifashisha mu kazi kabo.

Umuntu uryamye ku gatanda ugiye gucishwa mu cyuma, kimwe kireba ingingo z'imbere mu mubiri kizwi mu ndimi z'amahanga nka sikaneri.

Umugabo uri kunywa amazi mu icupa rya palasitike utagaragara mu maso, yambaye agapira k'ubururu n'isaha ku kuboko.

Umugabo wicaye ari kunywa amazi mu icupa, yambaye akantu k'icyatsi ku kuboko ndetse n'agasengeri kirabura.

Umugangakazi wicaye yambaye imyenda y'abaganga, yambaye n'akantu bumvisha uko umutima utera, ari kwambara agapfukamunwa, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'impapuro iruhande rwayo ku meza imuri imbere.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri yinanura afashe ukuguru kumwe kw'ibumoso ahagaze ku kw'iburyo, yambaye agapira gaciyemo n'ipantaro imufashe y'ubururu.

Umugabo ufatishije ikiganza cy'iburyo agasashi, karimo ibisukika, yagashyize ku ivi. Kaba gakonje, gakoreshwa cyane mu kugabanya uburibwe, cyangwa se mu kugabanya ububyimbirwe ahantu hababaye.

Isabune y'amazi yo koga mu mutwe iri mu icupa ryera, ikorwa n'uruganda Forever, ikozwe mu gikakarubamba.

Tangawize ni igihingwa kibarizwa mu binyabijumba, gikunze gukoreshwa nk'umuti, aho gishyirwa mu cyayi umuntu yivura inkorora cyangwa ibicurane, gikunze no gukoreshwa kandi umuntu ashaka guhindura icyanga cy'ibiribwa nk'ikirungo.

Abantu bahagaze ari benshi mu mirima y'ibikakarubamba, benshi muri bo bambaye imipira isa y'icyatsi, harimo n'abandi bambaye imyenda isanzwe.

Amavuta, isabune bikorwa n'uruganda rwa Forever bifasha mu kuvura ibiheri cyangwa se utudomo tw'umukara tuba turi mu maso.

Amababi y'igiti cy'urumogi gikunze gukoreshwa rimwe na rimwe mu miti, ariko abagikoresha iyo bagikoresheje mu buryo budakwiriye kirababata.

Umuti woza amenyo uri mu gacupa k'umweru ko mu bwoko bw'utwo bakanda kugira ngo umutu uvemo, uriho igishushanyo cy'igikakarubamba, ukorwa n'uruganda rwa Forever.

Bimwe mu bikorwa n'uruganda rwitwa Forever harimo: amavuta yo kwisiga ku mubiri, harimo imiti yoza amenyo, harimo isabune zo koga, harimo ibyo banywa byongera intungamubiri ndetse n'ubuki bikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba.

Bimwe mu bifasha kwita ku ruhu bikorwa n'uruganda rwa Foreva, ibyinshi muri byo bikozwe mu gikakarubamba harimo: amavuta, n'isabune yo koga ku mubiri.

Umuti woza amenyo uri mu icupa ry'umweru ryo mu bwoko bakanda, ukorwa n'uruganda rwa Foreva, uyu muti ukozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba.

Umuntu ufashe mu kiganza isabune yo koga mu mutwe, isukika iri mu icupa ryera, iyi sabune ikorwa n'uruganda rwa Forever rukora ibintu by'umwimerere bikozwe mu kimera cy'igikakarubamba.

Amavuta ari mu ducupa tumwe two mu bwoko bakanda kugira ngo avemo, ku ruhande hariho amafoto yerekana uko abantu bari barwaye ibihe imberi mbere, nuko yabafashije gukira, akorwa n'uruganda rwa Forever.

Isabune y'amazi yoza mu mutwe, iri mu icupa ryera yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi, ikorwa n'uruganda rwa foreva, rukunze gukora ibintu mu gikakarubamba.

Icupa ripfundikiye ririmo ifu iseye y'umuravumba, ni umuti ukunda gukoreshwa cyane iyo abantu bari kwivura nk'indwara y'inkorora, uyu muti gakondo ushobora no gufasha kuvura ibindi byinshi bitandukanye.